Hari igihe cagenwe ikinyabiziga kigomba kugenda mu muhanda nyuma bakazakijana mu isuzumiro kureba ko kikiri kizima mbere yo ku kukijanamo babanzaga kukijana mu igaraje bakagikorera ibisabwa byose.

Iyo habaye inkongi y'umuriro ku mazu g'ubucuruzi, abantu benshi barahahomberaga cane. Habaga harimo ibicuruzwa by'amoko gose, byose bigahiramo bigasha bigakongoka.

Abapolisi barindaga umutekano w'abaturage haba ku butaka cyangwa se mu mazi, babaga bambaye impuzankano igihe kinini.

Umuyobozi mwiza yirindaga gufata ibyemezo wenyine mu buryo bwo guteza imbere igihugu cye. Iyo hari ibitagenda neza, atumagaho abaturage bakajya inama.

Abagore n'abakobwa nabo barindaga umutekano w'abaturage, babaga bambaye impuzankano, bambaraga udupfukamunwa kugira ngo birinde kuko babaga barahura n'abantu benshi batandukanye.

Mu abacungagereza habagamo abagabo ndetse n'abagore, abagore nabo bafataga ijambo bagatanga amabwiriza. Ntabwo ijambo ribaga iry'abagabo gusa.

Inama y'umutekano iyo yateranye ihuzaga inzego zitandukanye: iza gisirikare, iza polisi, iz'ibanze, iz'uburezi n'izindi n'izindi...Buri wese abaga afite uruhare mu gutanga ibitekerezo byubaka igihugu.

Imodoka kugira ngo ije mu muhanda, ni uko igomba kuba yujuje ubuziranenge. Ahangaha, iyi modoka iri guca hejuru y'icuma cabugenewe kugira ngo iki cuma kiyisuzume kirebe koko ko ikwiriye gusubira mu muhanda.

Inama y'umutekano ikundaga kubera ku biro by'akagari. Bayitumiragamo n'inzego za polisi kuko ari zo zihagarariye umutekano mu gihugu. Abaturage bategaga amatwi bagahabwa amabwiriza g'ukuntu bagomba kwicungira umutekano.

Mu nama yateguwe, buri wese abaga afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo ce uko abyumva. Buri wese kandi abaga afite icupa ry'amazi go kunywa imbere ye.

Insyo za kinyarwanda zigiraga ingasiri kera abazikoreshaga bari gusya amasaka ndetse n'uburo byaravunaga cane.

Ikibindi ni igikoresho cakoreshwaga n'aba kera, bagishiragamo inzoga cangwa se imisururu, bakibangiraga ingata bakagiterekaho kugira ngo kidahirima.

Gucunda amata ni umuco gwahozeho kuva kera hose. Bagashiraga mu gisabo, bakagacunda hakavamo amavuta meza go kwisiga. Gagiraga uruhu neza amavuta g'inka.

Nizo zishushaga urugamba kuva kera hose zahozeho, zibaga zambaye ibihura mu mutwe zifite n'icumu mu ntoki ndetse zifite n'indi mitako ku mubiri wazo.

Abasore n'abakobwa ba cyera biyogosheshaga amasunzu. Wasangaga ababereye cyane, igihe bayasokoje bagiye mu bashyitsi.

Mu birori byinshi batumiragamo intore. Zibaga zishimishije mu kuzireba. Zibyinaga zishimye ziri guseka. Zibaga zambaye ibihura ku mutwe zifite n'amacumu mu ntoki ndetse n'amayogi mu maguru yazo.

Ingoma zibaga ziboshwe mu mpu z'inyamaswa. zibaga zirutana mu bunini, zigiraga imirisho bifashishaga bari kuzivuza.

Isogi ni imboga za kinyarwanda zigiraga amababi g'icatsi kibisi zirashariraga umuntu utazimenyereye ntabwo ashoboraga kuzirya.

Abagabo bavuzaga ingoma babaga bambaye imikenyero baberewe rwose. Iyo bari kuzivuza zibaga zifite injana iryoheye amatwi, hari ubatangiriraga abandi bagakurikiraho.

Umuvure ni gwo bakamiragamo ibitoke bikavamo umutobe, umutobe guvagamo inzoga, mu gukama bifashishaga agatandaro bapfukamagaho bari gukamura.

Ibiryo bya kinyarwanda biraryohaga, iyo wabiriye biguteraga imbaraga. Kuva kera hose ni byo baryaga kandi ntabwo bapfaga gusaza. Wasangaga bakomeye, n'abasaza wabonaga bafite imbaraga kuko babaga babiriye.

Imitako iyo bazishizemo amabara menshi usangaga ari nziza cane, zirahendaga cane kubera ko n'aga mabara na go garahendaga.

Mu birori imbyino nyarwanda zibaga zikenewe， abagore iyo batenze amaboko bakabyina，abagabo bakavuza ingoma， abandi bagakoma mu mashi， usangaga bibereye amaso.

Amajeri iyo bagahuriye, karameraga, baraganikaga, gamara kuma, bagayabeta, iyo fu yako, bayishiraga mu biryo bikaryoha cane.

Abageni ba kera babahekaga mu ngobyi, imbere hajaga abasore bafite imbaraga n'inyuma hakaja abandi bafite imbaraga, we akicara mu ngobyi yitwikiriye umwenda gwe mu mutwe, habaga hari n'undi wikoreye ikibindi kirimo inzoga.

Zibagamo utubuto, iyo uruteye ahantu rwishimiye rurabyibuhaga cane.

Kwiyogoshesha amasunzu， gwari umuco gw'abanyarwanda ba kera， wasangaga gababereye cane n'ubu ndetse wumvaga wakiyogoshesha.

Ibirori birimo intore birashimishaga cane. Zirahamirizaga abo ku mpande bakazikomera amashi. Babaga bakenyeye imikenyero zitandukanye amabara. Abagabo babaga bari kuzivugiriza ingoma.

Ababoshi b'ibiseke barabitakaga bakabishiraho amabara gatandukanye kandi gashimishije, cyifashishwaga mu birori ndetse n'iyo ugiye gusura umuntu, ugitwaragamo ibintu ukabona kiraboneye.

Abakecuru n'abagore bakuze, nibo bakundaga kuboha ibirago. Abakiri batoya bo bavugaga ko bivunaga, ko ntabyo bakora. Kandi koko bicaga umugongo.

Igisabo nicyo bifashishaga bari gucunda amata kugira ngo bagakuremo amavuta, inkongoro bazishiragamo amata gavuze kandi gabaga garyoshe.

Kugira ngo ibitoki bivemo umutobe bafata imineke bakayitonora bakayishyira mu muzinga nyuma bagashyiramo ubwatsi, batangira gukama. Hari abakamisha ibirenge abandi bagakamisha amaboko.

Isogi ni igihingwa gishariraga cane ariko kandi ni n'umuti guvuraga amibe. Zikundaga kuribwa n'abakecuru n'abasaza.

Mu birori binyuranye habaga harimo abashyusharugamba bateganyijwe ,usangaga akenshi barigukirana kugira ngo bashimishe abantu barikubareba.

Ugu musururu bagwitaga ikigage. Kuva kera hose ni go banywaga mu gihe habaga habaye ikirori. Guraryoha cyane, iyo bagushigishe neza.

Umusururu gw'amasaka bakundaga kugushira mu kibindi iyo bagushizemo umusemburo gurabiraga gukazana urufuro, gukuzura rukagera no ku rugara gubaga guryoshe ku bantu bagukundaga.

Igicuma kiri mu bikoresho byubashywe. Kuva kera hose ni cyo bakoreshaga mu birori, bakagiha abantu b'abasaza. Bagishyiramo umuheha, inzoga bakayinywa bishimye.

Abantu bakoraga akazi ko gucuruza amafaranga garabakizaga cane, iyo babyitwayemo neza. Baragabikaga, bakanagabikura, bari kubikorera abakiriya, ikindi kandi bacuruzaga n'amayinite go guhamagara.

Iyo abantu bari kugenda mu bwato bumeze nk'umuvure, bukoreshaga ingashi, bagendaga bitwaje ibyo kudaha amazi, kuko batekerezaga ko gashobora kubasangamo, bagakora impanuka bakaroha...

Akenshi na kenshi abagore bamenyaga kwifotoza ugereranyije n'abagabo. Iyo bambaye imikenyero usangaga baberewe. Bifotorezaga ahantu hari uturarabyo tw'amabara meza.

Inkangara ni igikoresho cakundaga gukoreshwa n'aba kera. Ijaga kumera nk'igiseke, uretse yuko yo usangaga ari nini ugereranije n'igiseke. Igiraga umutemeri gusongoye.

Inka z'inyambo zikundaga kuboneka mu majepfo n'iburasirazuba; mu gihe c'ibirori zizaga ziteze neza amahembe gazo.

Abakecuru n'abasaza, bakundaga kunywa itabi. Banyweraga mu nkono y'itabi. Ab'ubu ntabwo bayizi. Bashiragamo ibibabi by'itabi bakayigerekaho n'igikara, ubundi bagatumagura umwotsi gukaza.

Ibikoresho gakondo bya kera, ubu wabisanga ahantu haceyacane, hari ingoma n'inanga zakoreshwaga mu kirori, igisabo conubu wakibona kuko bakiyifashishaga bari gucunda amata.

Amasaka g'imbundi gabaga maremare, gagiraga amahundo manini cane, garashariraga, inyoni ntabwo zigakundaga kubera iyo mpamvu usangaga gatangaga umusaro.

Ugu mutsima gw'amasaka baguvuze neza, bagutekeye n'imboga ku ruhande kugira ngo bagurishe, bari kugukata bakoresheje akagozi kabugenewe kagukataga neza kugira ngo igipande kije ukwaco n'ikindi ukwaco.

Abanyarwandakazi bamenyaga gususurutsa ibirori bari kubyina. Bategaga amaboko gabo nk'inyambo. Usangaga bishimye ku buryo bishimishaga abari kubireba bose.

Intore zirahamirizaga mu gihe c'ibirori, zibaga zifite abari kuziha amashi kugira ngo bazitere imbaraga. Zibaga zambaye ibihura mu mutwe, ndetse n'imitako zitandukanye.

Kugira ngo umutobe gw'ibitoki guboneke, bafataga imineke zahiye, bakazitonorera mu muvure, hari n'abagwitaga indemberi. Hanyuma bakabikama, iyo bimaze kureta babikamuriraga ku gatandaro, umutobe usigaraga mu ndemberi, ibimfumfu nabyo bakabijugunya.

Amasafuriya batekaga ku nkwi usanga garahindutse umukara inyuma bitewe n'imyotsi. Iyo bayitetsemo batayipfundikiye za myotsi zinjiraga mu safuriya.

Ikibindi ni igikoresho gikoreshwaga imirimo zitandukanye, hari abakibikagamo amazi, abandi bakagitekamo nk'inkono ya kinyarwanda, hari n'abagishiragamo umusururu cangwa inzoga.

Mu muco nyarwanda umukobwa wese agomba kuba azi gucunda amata, yifashishaga igisabo. Mu gucunda agomba kuba yicaye ku karago cangwa ku gakeka.

Inka z'inyambo ni umutako w'igihugu cacu. Ba mukerarugendo bazaga kuzireba, bazanye amafaranga g'amanyamahanga kagateza igihugu cacu imbere.

Amasunzu gabaga meza cane ku bantu bagasokoje. Aba kera baragagiraga ugasanga garababereye rwose. Ab'ubu bo ntabwo bagazi uretse kugabona ku mafoto.

Abazungu na bo biganaga umuco gwacu kuko babonaga ko ari mwiza. Iyo babonye bari kubyina nabo bajagamo bakabigana, bavuza ingoma nabo bakazivuza. Mbese ubonaga bizihiwe cane.

Isekururo ni igikoresho gikenerwaga n'abantu benshi mu Rwanda, cane cane abantu bakundaga kurya isombe. Iyo ifite umusekuzo guremereye nibwo ibyo uri gusekura binogaga vuba.

Ku ruhimbi habaga hateguye ibikoresho bya kinyarwanda bitandukanye cane. Habaga hariho umukeka gw'amabara. Ikindi kandi bashiragaho ibicuma bitatse, inkongoro ndetse n'ibiseke.

Mu caro cane cane mu gice c'imisozi, kubera ko nta modoka zigeragayo, abarwayi babahekaga mu ngobyi. Zibaga ziboshe mu migano zifite imijishi. Bashiragamo ikirago bakabona gushiramo umurwayi.

Iyo ibirori birimo intore usangaga byizihiwe cane, zibaga zambaye ibihura ku mutwe, imitako, ndetse zakenyeye zibaga kandi zambaye amayogi mu maguru, ntabwo zibyiniraga ubusa barazishuraga.

Inkongoro ni igikoresho bifashishaga bari gutereka amata, kugira ngo gazabe ikivuguto gavure neza. Ikivuguto co mu nkongoro usangaga kiryoshe cane.

Abantu bihangiraga imirimo, kugira ngo babone ico gukora abakoraga amavase, babonaga amafaranga menshi kuko gakundwaga n'abanyamahanga.

Inka z'inyambo zigiraga amahembe maremare, gasongoye manini kandi gihese, ntabwo baziryaga ni umutako w'u Rwanda.

Telefone zibagamo amoko gatandukanye, harizigendanwaga hakabaho n'izindi zibaga mu biro, cangwa se mu mago g'abantu. Zikoreshwaga n'abakozi bo mu rugo cangwa se abo mu biro.

Ipensi ni icuma cifashishwaga n'abatekinisiye batandukanye. Hari abagikoreshaga bari kuzinga ibyuma. Abandi bakagikoresha bari gufungura amaburo g'ibitanda, ag'inzugi n'ahandi n'ahandi.

Mu nzu za kijambere kubera ko zibaga zirimo umuriro, haba hakenewe n'akuma bitaga prize ko kuzaja uracomekaho telefone yawe ndetse n'igihe ushaka gutera imyenda zawe ipasi.

iki cuma tugisangaga ku mabanki. Ni ic'abakire bakoreshaga bari gukura ho amafaranga gabo, iyo badashaka gutonda imirongo, bafite gahunda zihuse.

Gaze ibagamo ubwoko butandukanye hari iy'ishiga rimwe, hari igiraga amashiga abiri, n'igiraga amashiga atatu, iy'amashiga atatu usangaga ariyo nziza kuko iyo uyitetseho irakoroherezaga kugira vuba.

Ni ngombwa ko tugira ibigega bifata amazi go ku mazu gacu. Iyo amazi go kuri robine gabuze, dukoreshaga gagandi twazigamye gabaga gari mu bigega.

Amazu gari mu bibanza bitoya, bagwubakagamo ibikoni mo imbere. Bashiragaho ifuru hejuru izaja iranyuramo umwotsi kugira ngo gutangiriza amabati.

Ku biro by'umurenge uhasangaga abaturage bafite ibibazo bitandukanye cane, barazindukaga kugira ngo batahe kare baje no mu yindi mirimo yo mu rugo.

Mu kademi habagamo ibendera ry'igihugu cacu. Nta muntu upfaga kwinjiramo, habaga hari umusekirite ku marembo akabanza akagushaka.

Ibiti bahagararaho bari kubaka byitwa ibigwi bikoreshwa igihe cyose inyubako yageze hejuru uri kuyubaka akaba atagishobora kuyishyikira ni byiza ko gukoresha uru.

Mu isoko bacururizagamo ibirayi, habagamo urusaku rwinshi cane, habaga hari n'abanyonzi bategereje gutwara imisego z'abagenzi.

Kuri posite do sante bakiraga abarwayi batarembye cane. Batangaga ubutabazi bw'ibanze, nko gupima umuvuduko gw'amaraso bagapima ndetse n'umuriro. Iyo basanze umuriro gwakurenze, bakoherezaga kuri santere do sante.

Kuri ugo muhanda gwa kaburimbo hari aho bateganyije abanyamaguru bambukiraga, iyo imodoka zihageze zirahagararaga zigategereza ko abanyamaguru babanza kwambuka kugira ngo zitabagonga.

Urusengero rw'abapende rw'i Musanze rwubakishije amatafari gahiye, rusakajwe amabati g'umutuku ndetse rufite n'amadirisha g'amafime.

Hano kuri sitasiyo niho imodoka zinyweraga esansi na mazutu. Hariho n'ikinamba aho imodoka zanduye bazozerezaga.

Kunyubako zinshi z'ubuyobozi usangagaho bariyeri ndetse n'abasekirite icyo bashinzwe ni ukurinda umutekano gwabo, mbere y'uko uhinjira bakubazaga ikiri kukugenza n'ico ushaka.

ikigo cyigamo abana b'inshuke kigomba kuba kizitiye, kugira ngo kidateza impanuka. Imyicundebo yabo igomba kuba imeze neza cyane, ndetse n'amatera baryamaho ikaba ifite isuku.

Urukiko rw'ibanze rwa Mukamira rurashaje cane, abayobozi baho wagira ngo ntabwo barurebaga, rukenewe gusanurwa kugira ngo bubake urugezweho rujanye n'iterambere.

Iri shuri ryubakitse neza, rifite imiryango itatu n'amabati mashyashya y'ubururu. Rifite n'ubundi ibendera rifite amabara atatu, ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Mu rwanda bari kubabaka insengero zigezweho. Inkuta zazo ni amatafari gahiye, ibisenge byazo bikozwe mu byuma bikomeye cane zizajya zirakira abakirisitu benshi cane.

Arayesesibi ni isandugu y'ubwiteganyirize bw'abakozi. Bagendaga baragukata amafaranga gawe bakagakubikira. Wazagera mu za bukuru bakagagusubiza. Ni nziza cane tuyitabire.

Viviyeyi ni ikigo c'abazungu ariko abanyeshuri bigagamo harimo n'Abanyarwanda bishuraga amafaranga menshi ntabwo bakwemera ko hagira ago ubasigara.

Abagatolika bagiraga imiryango myinshi zitandukanye, hari ugw'abapadiri nugw'ababikirara. Ababikira bambaraga amavara mu mutwe naho abapadiri bakundaga kwambara amakanzu.

Umusigiti gw'abayisilamu gubaga gubakitse. Gugiraga umunara muremure guriho ukwezi guba gusize amarangi. Gugiraga n'aho guparika imodoka kubazifite.

Insengero zitujuje ibisabwa barazifunze, zigomba kuba zifite urukarabiro kugira ngo abakirisitu birinde indwara zandura, ikindi kandi zigomba kuba zubakitse zikomeye.

Ibiro by'akagari na byo bigiraga ibigega bifataga amazi. Ni gwo bifashishaga bari gukora amasuku, kugira ngo abaturage batandura indwara ziterwaga n'umwanda.

Mu imihanda zo mu caro naho basigaye barahubaka ibiraro byiza cane bigezweho, k'uburyo imodoka zibinyuragaho ugasanga nta mpungenge abaturage bafite.

Aha ni ku muryango gwa FPR,hari inyubako nziza cane, n'indabyo zifite amabara agaragaza umuryango gwa FPR: ibara ry'ubururu, iry'umweru, n' iry'umutuku.

Kiliziya kirafunze mu buryo bwo guca akajagari. Bagifunguraga kucumweru. Hari ingoro ya Bikiramariya buri wese agomba kuza akiyambaza, umwizera wese. Uraza ugapfukama ukamubwira ibibazo byawe, akakuvugira ku Mana.

Hari inyubako zigezweho usangaga inzu imwe ituwemo n'imiryango myinshi. Ariko kandi zibaga ari na nini. Zigiraga ibigega byo gufata amazi kugira ngo gabafashe kurinda umwanda.

Iyo amashuri gubatse ku mihanda gakaba gatazitiriye ubonaga gatari byiza rwose bitumaga abanyeshuri barangarira mu muhanda ntibakurikirane neza amasomo gabo.

Inyubako za Leta akenshi na kenshi usangaga zifite ikirango c'ibendera ryubahirizaga igihugu zibaga zubakishije amatafari gahiye zifite n'inzugi za metarike.

Iyo inteko y'abaturage yateranye, abayobozi bicaraga imbere bagatangiza ikiganiro. Umuturage ufite ikibazo, arahagararaga akavuga icifuzo ce bakagishakira umuti bafatanyije.

Mu cyumba c'inama iyo bateraniyemo ari benshi, bifashishaga indangururamajwi kugira ngo babashe kumvikana, babaga batuje buri wese agaha agaciro igitekerezo ca mugenzi we.

Aha ni ho inteko y'abaturage iteraniraga buri wa kabiri w'icumweru. Umuyobozi ari kubaha amabwiriza ngenderwaho kugira ngo bateze igihugu cabo imbere.

Umuyobozi mwiza iyo ayoboye inama yirindaga kuvuga wenyine, asigazaga n'umwanya w'ibibazo muri ugo mwanya abaturage nabo batangagamo ibitekerezo.

Iki cumba c'inama kirimo abantu benshi cane bayitabiriye. Imbere yabo hariho umugore ufite ijambo, hagati yabo harimo ameza gateguweho indabo nziza cane zishimishije.

Iyo umushitsi w'umuyobozi yasuye abaturage, buri wese abaga yemerewe gutanga igitekerezo ce kimuri ku mutima.

Amazi gajibu gabaga meza kandi garahendukaga cane iyo udafite ubushobozi bwo kugagura ufataga amazi gasanzwe ukagateka gakabira ico gihe mikorobe zose zibaga zapfuye.

Inteko y'abaturage iyo yateranye nibwo buri wese abaga abonye umwanya wo kuvuga ikibazo ce kimutsikamiye. Bashakaga indangururamajwi kugira ngo buri wese aho yicaye abashe kumva.

Niba mukeneye serivise runaka, mujye mu gerageza gutonda umurongo mukurikije uko mwaje, icyakora abakecuru n'abagore batwite, n'abari konsa, mujye mubaha umwanya batonde imbere.

Mu nteko z'abaturage umuyobozi ahagararaga imbere yabo akabaha amabwiriza buri wese abaga yemerewe gutanga igitekerezo ce no kubaza ahatari kubyumva neza.

Mu nteko y'abaturage buri wese aba agomba gutega amatwi igitekerezo ca mugenzi we. Iyo utanyuzwe na co nawe uba ufite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo uko ubyumva.

Rifani ni ubwoko bwa moto ariko itwaraga imizigo myinshi. Abagore na bo basigaye barayitwara nta bwo itwarwaga n'abagabo gusa. Usangaga abagore bakubisemo amabote na bo bakaja ku murimo.

Imodoka zitwaraga imizigo usangaga ziremerewe, zigiraga amapine gakomeye cane kandi menshi.

Imodoka nini ndende za bisi ni zo zitwaraga abagenzi benshi cane. Hari abishuraga bakoresheje telefone, abandi bakishura mu ntoki. Kandi mbere y’uko uzinjiramo, urabanzaga ukishura.

Muri gare ya nyabugogo habagamo imodoka nyinshi cane zibaga zirerekeza mu cerekezo gitandukanye ;hari izijaga musanze, indi zikaja mu majepfo ndetse hari n'izi sirikiraga mu mujyi wa kigali gusa.

Imodoka iri kugenda mu muhanda urambuye udafite amakorosi, zirihuta cyane. Nta mpanuka ikunda kugaragara muri uwo muhanda kubera ko n'abanyamaguru baba bafite inzira yabo yabagenewe.

Mu majepfo abagore n'abagabo bose bararesha. Aho usangaga abagore na bo batwaye amagare baziritseho n'imizigo kandi ziremereye, ubonaga ari intwari rwose.

Muri gare usangagamo imodoka ndende zitwaraga abagenzi, zijagamo abantu benshi, kuko zigiraga imyanya myinshi abazigiyemo bagendaga batekanye.

Iyi modoka itwaraga abantu benshi cane kandi irihutaga cane nuzaja uraja gutega uzaje uratega iyi modoka mu gihe ushaka kugenda urikwihuta kandi wisanzuye.

Ubu moto zigezweho mu muhanda ni izitwaga gorila, zigiraga umuvuduko kurusha uw'izisanzwe. Zishobora gutwara abantu barenze umwe, cangwa se ukayicaraho ufite n'imizigo zawe.

Iyi ndege itwaraga abagenzi bagiye mu mahanga. Ntawe uyigendagamo atujuje ibisabwa kuko ntabwo bamwemerera rwose ko ayigendamo.

Muri gare habagamo imodoka zabugenewe zitwaraga abagenzi zibajana mu gihugu hirya no hino. Iyo ushonje habagamo n'abatemberezi babaga bafite imbuto zo guha abagenzi mu gihe bafite amafaranga gabo.

Abamotari bo mu mujyi, batandukanye cane n'abamotari bo mu caro. Usangaga bafite isuku bameze neza. Bagiraga ingofero bitaga kasike, zo kubarinda kwangirika mu mutwe igihe habaye impauka.

Muri gare usangagamo bisi ndende ifite ibara ry'ubururu itwaraga abagenzi benshi cane . Iyo intebe zayo zuzuye abasigaye bagendaga bahagaraye kugeza iyo bagiye.

Iyo modoka bayitaga dayihatsu itwaraga ibintu ibijana hirya no hino mu gihugu aho babikeneye. Iyi shashe yitwaga shitingi niyo batwikirizaga ibyo bintu kugira ngo bitanyagirwa bikagerayo byangiritse.

Abamotari kuri parikingi zabo iyo uhageze usangaga batonnze umurongo. Nta muntu wemerewe gutwara umugenzi atari ku murongo gw'imbere. Niyo mpamvu iyo umugenzi ahageze abanzaga kureba umuntu w'imbere akaba ari we atwaye.

Muri gare usangagamo abantu babanaga n'ubumuga. Harimo n'abagenderaga mu tugare, birirwaga bari gusabiriza abagenzi, ababagiriye impuhwe barabahaga.

Itangira ry'amashuri muri gare habaga harimo akavuyo gakabije; abanyeshuri babaga bambaye impuzankano kugira ngo imodoka abe aribo ziheraho zibajana ku mashuri gabo.

Abahinzi bahingaga imyembe n'ibitoki babishakiraga amasoko hirya no hino mu gihugu. Izi modoka ni zo zibitwaraga zibijanira ababikeneye hirya no hino.

Ku kibuga c'indege mpuzamahanga c'i Kigali usangaga hari uruja n'uruza rw'abantu banyuranye, abirabura n'abazungu, abagabo n'abagore kandi babaga bari kuja mu byerekezo binyuranye.

Hari gare usangagamo amakwasiteri manini gagenewe gutwara abagenzi ,gajagamo abantu benshi cane kandi bagendaga batuje bafite umutekano nta mubyigano gubagamo.

Ku muhanda gwa kaburimbo gwa Rubavu gwerekezaga i Nyamasheke, habagamo imodoka yitwaga Omega itwaraga abagenzi neza cane.

Muri gare usangagamo amamodoka g'amoko gose, amatagisi manini ndetse n' amatoya. Ago gose ni ago gutwara abagenzi, abenshi rero bakundaga kugendera mu matagisi manini.

Muri gare ya Nyabugogo usangagamo imodoka zitandukanye zitwaraga abagenzi, harimo imodoka ndende bitaga shirumuteto itwaraga abagenzi benshi cyane, hari abagendaga bicaye abandi bakagenda bahagaze.

Imodoka zitwara imizigo, akenshi na kenshi ziba ari nyinshi cyane. Abacuruzi b'ibitoki ni zo bifashisha, babitwara.

Iyo abanyeshuri barangije kwiga amashuri gabo babategekaga kuja mu ngando kugira ngo bongere bibutswe uburyo bwo gukunda igihugu cabo. Iyo bavuye mu ngando usangaga muri gare hari uruja n'uruza rwabo.

Muri gare usangagamo imodoka z'amoko yose zitandukanye zitwaraga abagenzi uruja n'uruza rw'abagenzi narwo usangaga ruri kunyuranamo ruje gutega imodoka.

Muri gare habagamo imodoka nyinshi zitwaraga abagenzi. Hari iziba ari ndende zitwararaga abagenzi benshi, n'izindi zibaga ari ntoya. Abagenzi benshi bakundaga izi ndende.

Umukino gw'amaboko gwa volebolo abanyeshuri iyo bari ku mashuri gabo baragukundaga, bakundaga kugukina mu gihe c'ikiruhuko bari kugira ngo baruhure ubwonko, babone uko baza gukomeza amasomo gabo.

Kurusi y'amagare ishimishaga buri wese, iyo iri kubera mu muhanda gufite amakorosi, ugiraga ubwoba ngo barakora impanuka ariko kubera ko babimenyereye ntaco babaga.

Abakinnyi b'umupira gw'amaguru usangaga abenshi ari urubyiruko. Babaga bambaye imyenda ibaranga muri buri kipe. Hari abambaraga amatiriningi gafite ibara ry''umuhondo n'ubururu. Abandi bakambara amatiriningi gw'umweru.

Iyo umuntu akoze kurusi y'amaguru, imitsi ze ziragororokaga, amaraso nago agatemberaga neza mu mubiri we, bimurindaga no kugira umubyibuho gukabije cane.

Voleboro ni umukino gw'amaboko gushimishije gwifuzwaga kubonwa na buri wese, iyo bari kugukina babaga bari kunanura ingingo z'amaboko.

Kurusi y'amagare ishimishaga buri wese. Abayatwaye bafite amabwiriza bagenderaga ho. Amagare gabo, gabaga ari gashasha, ku buryo nta mpanuka gateraga.

Urubyiruko rw'abakobwa b'u Rwanda na rwo rwitozaga kuzaba abakinnyi b'ejo hazaza. Rukundaga kwambara imyenda za siporo zirimo amabara nk'ibendera ry'igihugu cacu. Ubururu, umuhondo n'icatsi kibisi.

Umukino w'amaboko wa volebolo urashimisha cyane, cyane cyane iyo wakinwe n'abakobwa usanga, utandukanye n'iyindi mikino y'imipira.

Ibendera ry"igihugu cacu rigiraga amabara atatu, ubururu, umuhondo n'icatsi. Mu ibara ry"ubururu ubonagamo n'izuba.

Abakobwa bafite ubumuga bw'amaguru nabo ntabwo bahejwe mu mikino, barahuraga bagakina umupira gw'amaguru, nubwo bafite akaguru kamwe babaga bari kugendera ku mbago.

Umukino gw'amaboko gwa basiketi n'abakobwa baragukinaga , ntabwo gwagenewe abahungu gusa usangaga bafite imbaraga ndetse n'imitsi zabo zibaga zikomeye kubera gukoresha ingufu nyinshi.

Imikino ntabwo ibaga iy'abagabo gusa n'igitsina gore naco kirabishoboraga, habagaho amakipe gahuzaga abakobwa abatsinze bagahabwa ibihembo.

Umukino gw'amaboko gwitwaga voreboro gubaga gushimishije cane kugureba, cane cane iyo guri gukinwa n'abakobwa babaga bambaye impuzankano zirangaga buri kipe.

Ibirori birimo intore usangaga byizihiwe bimeze neza rwose. Akenshi usangaga urubyiruko ari rwo rwiganje mu ntore. Abakobwa nabo bemerewe kubyina nk'abahungu.

Uruzitiro ruzitijwe senyenge usangaga rukomeye cane bakundaga kuzizitiza ahantu hari ibibuga by'imipira babaga bari guteganya ko umupira gushobora kurenga gukagwa inyuma.

Aba bakinnyi bari gukina umukino w'amaboko. Kandi bose ni abagore. Uyu wambaye ubururu ashaka gutsinda igitego. Aba bandi babiri na bo bari kumurwanya ngo barebe ko bagihagarika. N'abagore na bo, n'imikino barayishoboye.

Abantu bakoraga amarushanwa g'amaguru bisaba ko baba bafite ubuzima bwiza, butagira indwara, kuko bibasabaga imbaraga nyinshi cyane. Bambaraga udupira turiho nimero zibarangaga.

Abakinnyi bari kwitoza gukina umupira w'amaboko .Buri mukinnyi afite umupira we, kandi imbere y'aba bakinnyi hari umutoza ushinzwe kubatoza kugirango imikino yabo izajye igenda neza .Bose bambaye impuzankano.

Muri sitade hateraniraga abantu benshi batandukanye， bari no muri gahunda zitandukanye. Iyo habaye ibirori cangwa se habaye amarushanwa y'imikino.

Kurusi y'amaguru niyo bitaga marato, abagore n'abakobwa na bo bayijagamo, babaga bambaye imyenda za siporo, udupira twabo tubaga turiho nimero zirangaga buri muntu.

Umuryango gwa efupeyeri gurakundwaga cane. Nigo muryango gugiraga abantu benshi. Iyo bari kugwamamaza usangaga bafite ibirango by'ibendera ry'igihugu.

Abanyarwandakazi nabo bakinaga umupira gw'agatenesi. Iyo bagiye gukina bambaraga imyenda zabugenewe za siporo, zibaga zishushananijeho ibendera ry'igihugu cacu.

Imodoka y'ivatiri， ikundaga gutembereza abantu mu ishamba ry'Akagera， usangaga barayitatseho amabara g'ubwoko bwose， ibaga yanyanditseho kandi ijambo Akagera.

Mu gukina umupira w'amaboko bitaga volebolo, bisaba kuba harimo abantu barebare cane basumba abandi ntabwo ari byiza ko mwese muba muresha.

Amarushanwa g'amagare, abantu benshi usangaga bashaka kugareba k'uburyo abapolisi batabaye hafi gatezaga impanuka. Gabaga garimo abazungu ndetse n'abirabura. Abazungu nibo bakundaga kuza ku mwanya gw'imbere

Imikino ihuza amakipe, abantu benshi barayitabira cyane. Kuko iba ishimishije kwinjira muri iyo mikino, biba bisaba ko waba ufite amafaranga ahagije kuko bisaba ku ishyura.

Umupira gw'amaguru gubaga gushimishije kugureba. Babaga bari gucengana, buri wese ashaka ko yakwinjiza igitego. Babaga bambaye imyenda za siporo zitandukanye, ku buryo buri wese amenyaga uri mu ikipe ye.